Ibihingwa ngengabukungu, ni ibihingwa bifasha mu kuzahura no kuzamura ibihugu cyane cyane ibiri mu nzira y'iterambere, ni byo harimo ikawa, ingano ndetse n'ibindi, ingano hifashishwa mu gukora ibintu byinshi bitandukanye binyuze mu buryo bw'ifu.

Inyamaswa n'ibindi binyabuzima nabyo bikenera imiti kugira ngo bize kugira ubuzima bwiza, inyamaswa harimo inka, ihene, intama, ingurube ndetse n'inkoko nabyo byongerwa ndetse bikanarindwa indwara hakoreshejwe imiti yabugenewe.

Ubuhinzi ni umwuga utunze abantu benshi ku isi. Igice kinini cy'abantu gitunzwe no guhinga aho bahinga ibintu bitandukanye ibinyampeke, ibyamafufu ndetse n'ibindi. Muri ubwo buhinzi abantu bafata imyaka bakiyitera mu butaka hanyuma ikaza kubyara indi yisumbuyeho.

Imbuto, n'ibibiribwa turya buri munsi bigira umumaro munini mu mubiri wa muntu aho bifasha kurwanya indwara ndetse n'ibindi, iyo duhinga imbuto twifashisha ifumbire mborera tukayishyira mu butaka ndetse n'amazi, ibyangombwa tugashyiraho ifumbire mvaruganda kugira ngo urubuto ruze gukura neza rutange umusaruro.

Nk'uko tubizi umukamo cyane cyane amata ava ku inka ni byiza ko abantu babyitaho ariko mbere y'uko bagera ku inka zigomba kwitabwaho harimo kuzuhira, kuziha ubwatsi bufatika ndetse n'amazi meza kugira ngo umukamo ukomeze wiyongere hanyuma ugatunganywa n'inganda zabugenewe nk'inyange ndetse n'ibindi n'izindi nganda zitandukanye.

Imisozi ari migufi cyangwa imiremire, ibishanga n'imigezi, ni bimwe bigize ibyanya nyaburanga mu mibereho ya muntu ndetse n'inyamaswa. Imisozi migufi iyo twita udutwa, ikunze kubamo inyamaswa, ndetse ishohobora gukorerwaho n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi kugira ngo abaturage biteze imbere.

Imisozi ndetse n'udutwa ni bimwe mu byanya nyaburanga bigize igihugu cy'u Rwanda, aho usanga habamo inyamaswa nk'ingagi, inyoni ndetse n'ibindi bikurura ba mukerarugendo bityo bakaba batanga amadovize igihe bazisura kandi niheza cyane ku muntu ukeneye kuruhuka kuko haba hari umuyaga mwiza nta zuba rshe.

Ubworozi nabwo ni kimwe mu bigize ubukungu Nyarwanda, cyane cyane inka aho yafatwa nk'ikimenyetso cy'ubukungu mu Rwanda bwo hambere ndetse na n'ubu. Inyambo yo ni ikimenyetso gikomeye mu muco Nyarwanda ndetse no mu birori.

Ubworozi ni bwiza kuko bituma umuntu atera imbere, haba mubereho, bukungu, ndetse n'ibindi. Rero mu bworozi cyane cyane inkoko, ingurube, zitanga ifumbire ndetse n'ibindi.

Amatungo cyangwa inyamaswa nk'ibinyabuzima nabyo bikenera abaganga bo kubyitaho kugira ngo bize kugira ubuzima bwiza igihe byahuye n'ikibazo k'ibikomere, indwara ndetse n'ibindi. Mu kubivura bifashisha imiti itandukanye ariyo batera mu nshinge cyangwa se bagakoresha ibinini.